Ifoto yerekana ibikinisho by'abana muri primary aho baza bakajya babikinisha kugira ngo babashe kwisanisha n'abandi ndetse ahantu baba bageze muri sosiyete kugira babashe kubana.

Ikigega, ibyuma, amabati, amadirishya, inzugi, ikigega, igitembo, itaka.

Ibiti, inzu, abanyeshuri, imyenda y'umweru, kake, umukara, bogisi z'ubururu n'ibindi.

Ifoto yerekana abana barimo gukora mu mashanyarazi, ubona ko barimo kwiga elegitirisite kugira ngo bazabashe kujya besitalila Abantu bashya, bari kwiga ku ibijyanye n'amashanyarazi.

Icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umuani kwibuka twiyubaka, abanyeshuri, indabo, inzu.

Itaka, abantu bambayeje ijire zitandukanye harimo n'icyatsi, umuhondo, ikigega, ikigo cy' amashuri, ibiti, amazu.

Ifoto yerekana umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri arimo kugenda abaha urugero rw'ibyatsi afite mu ntoki, urabona ko abana bamuhanze amaso kugira ngo babashe gukurikira ibyo arimo kubigisha.

Inzu, umuryango, urugi, ibiti, jaridi, ibidari, intebe, ibiti.